Umugabo wambaye impuzankan y'igipolisi cy'u Rwanda iri mu ibara ry'umukara, afite telefone, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati ndetse bahagaze ahantu hari ibyatsi, imbere yabo hari amazi, iruhande rwabo gato hari abana benshi ndetse n'abagabo ndetse n'abagore.